Kugira ngo ibihingwa bitangirika, abahinzi babitera imiti, ni yo mpamvu mu murima munini uhinzemo igihingwa cy'amashu, harimo umugabo ufite ikijerekani kirimo umuti ari kugenda atera umuti izo mboga.

Umugabo ukiri muto, wambaye imyenda imupfuka ahantu hose, ahetse igicupa kirimo umuti wica udukoko. Uyu ari gutera umuti ku ndabo kugira ngo zigire ubuzima bwiza maze aho ziri harusheho kugaragara neza.

Itsinda rigari ry'abahinzi bari iruhande rw'umurima urimo igihingwa cy'ibigori, aha kandi hari n'icyuzi kinini cyagenewe kororerwamo amafi aho bashyiramo umwayi maze wamara gukura ukavamo amafi na yo akajyanwa kugurishwa.

Abakora umwuga w'uburobyi bahuriye ahantu ari ibyuzi birimo amafi yabo, aba bari kugerageza kuyitaho ndetse banakuramo ayakuze kugira ngo bayajyane kuyagurisha mu masoko ndetse ayandi bajye kuyarya bayasangire n'imiryango yabo.

Abagabo bambaye imyambaro ifite amabara y'umukara, umweru ndetse n'ubururu, bari ahantu mu mazi menshi aho bari gukora igikorwa cy'uburobyi bakoresheje urushundura, iruhande rwabo kandi hari umurima urimo igihingwa cy'umuceri.

Umubyeyi w'umugore, wambaye imyenda ifite amabara y'umuhondo, umutuku n'umukara, ari ahegereye icyuzi gikorerwamo ibijyanye n'uburobyi n'ubworozi bw'amafi, aho iyo akuze ajyanwa ku masoko akagurishwa, bigateza imbere abayorora.

Umubyeyi w'umugabo wambaye imyenda ifite amabara y'umweru n'ikigina ari hejuru y'amatiyo atwara amazi, uyu kandi afite ibiryo by'amafi mu biganza bye aho agiye kubijugunya mu mazi maze amafi akabirya akagira ubuzima bwiza.

Ibyuzi birimo amazi menshi, bikikijwe n'ibyatsi, ibi byuzi bibamo amafi akiri mato ndetse n'amakuru. Iyo akuze ajyanwa ku masoko maze akagurishwa, bigateza imbere abayoroye.

Ahateganye n'umusozi muremure uriho ibiti hari inzu yababugenewe isakajwe n'amashashi akomeye ndetse inakoze mu byuma, muri iyo nzu hakorerwamo ibijyanye n'ubuhinzi bw'imboga ndetse kuba iyo nzu isakaye bituma imirasire y'izuba ikomeye itagera muri iyo nzu maze ikaba yakwangiza izo mboga.

Itsinda ry'abantu biganjemo urubyiruko ndetse n'abasore, bambaye imyambaro ifite amabara atandukanye, bari iruhande rw'icyuzi kirimo amazi, aba bari kuyakuramo maze bakayajyana kuyavomereza ibihingwa byabo kugira ngo bitazagira ikibazo cyo kwicwa n'izuba.

Ahakikijwe n'ibimera by'ubwoko butandukanye hari umugabo uri mu kiyaga cyuzuyemo amazi, uyu ari mu bwato bukozwe mu giti aho ari gukora igikorwa cy'uburobyi akoresheje urushundura.

Abagabo bambaye imyambaro ifite amabara y'icyatsi kibisi ndetse n'ubururu, bari mu kiyaga kinini, aho bari gukora umwuga w'uburobyi bakoresheje urushundura. Aba bafata amafi maze bakayajyana ku masoko, bakabona amafaranga yo gutunga imiryango yabo.

Abantu b'abagabo bamwe bikohoye, abandi bambaye imyambaro ifite amabara y'ubururu, umweru n'umukara ndetse n'umutuku. Bari ahantu hari amazi agomeye, aho bari gukora igikorwa cy'uburobyi bakoresheje urushundura.

Umubyeyi w'umugabo wambaye inkweto zifite ibara ry'umuhondo zikoreshwa mu kazi, afite ikintu kinini ari gukuramo umwayi awushyira mu mazi kugira ngo uzavemo amafi manini maze azayajyane ku isoko atunge umuryango.

Ababyeyi b'abagore barimo abambaye amakanzu ndetse n'amapantaro. Bari iruhande rw'icyuzi cyororerwamo amafi. Aho bari kujugunyamo ibiribwa kugira ngo ayo mafi abirye maze azagire ubuzima bwiza avemo umusaruro.

Abantu babagabo bambaye imyambaro ifite amabara y'umukara ndetse n'umuhondo bari mu cyuzi cyororewemo amafi aba bari kugerageza kuyaroba bakoresheje ibikoresho bikoreshwa mu burobyi bw'amafi.

Umubyeyi w'umugabo afite ibase nini ifite ibara ritukura, uyu ari iruhande rw'icyuzi cy'amafi aho ari kuyashyiriramo ibyo kurya birimo intungamubiri kugira ngo azakure neza maze atange umusaruro ku bayoroye.

Abagabo babiri bahagaze iruhande rw'icyuzi kirimo amazi magari, iki cyuzi gikikijwe n'ibyatsi ndetse kibamo amafi aho abantu bayaroba maze bakayajyana ku isoko bakayagurisha cyangwa se bakajya kuyatungisha imiryango yabo.

Abagabo ndetse n'umugore bari mu mazi menshi akorerwamo ibijyanye n'ubworozi bw'amafi. Aba bari kuroba aya mafi kugira ngo bayajyane ku masoko maze babone amafaranga yo kwita ku miryango yabo no kurihira abana babo amashuri.

Umugabo wambaye imyambaro ifite amabara y'umweru n'umukara ndetse n'ibase isa n'ubururu afitemo ifi rinini risa n'umukara, uyu amaze kuriroba mu cyuzi kinini aho yari yarororeye ayo mafi, hari kandi n'igihingwa k'insina zera ibitoki.

Umubyeyi w'umugabo wambaye imyambaro ifite amabara yi'kigina ndetse n'ubururu ari ahantu hari amazi menshi aho afite ifi mu kiganza cye, iyi fi arayijyana mu rugo maze itekwe cyangwa se ayijyane ku isoko igurishwe.

Umubyeyi w'umugabo ukora ibijyanye n'ubuhinzi, ari kuva gusarura umusaro we awutwaye mu mufuka, iruhande rwe kandi hari igiti gikuze cyera igihingwa ngengabukungu cy'ikawa.

Abagabo ndetse n'abagore bambaye imyambaro ifite amabara y'icyatsi kibisi bari ku musozi muremure uhinzeho igihingwa ndegabukungu cy'icyayi, aba bari kugisarura bagishyira hamwe mbere y'uko bakijyana mu ruganda ngo gitungangwe.

Mu murima uhinzemo igihingwa cy'ikawa harimo igiti kinini gifite amashami ndetse gifite n'amababi y'icyatsi kibisi, kuri iki gihingwa hariho ikawa ziteze zifite ibara ry'icyatsi kibisi ndetse n'izeze zitukuye.

Umubyeyi w'umugabo wambaye imyenda y'umweru ndetse n'umutuku n'ingofero, ari mu murima munini urimo ibiti birebire byera igihingwa ngengabukungu k'ikawa. Iki gihingwa ntikirera ariko iyo keze kiba gifite ibara ritukura.

Ababyeyi b'abagore bambaye imyenda ifite amabara y'umuhondo, bahetse udukoresho basaruriramo icyayi ku rutugu, aba bari mu murima munini wezemo icyo cyayi, aho bari kugisarura ngo babone amafaranga yo gutunga ingo zabo.

Munsi y'umusozi uriho ibimera birimo ibyatsi ndetse n'ibihingwa by'ikawa. Hari uruganda runini rutunganya umusaruro w'igihingwa ngengabukungu kitwa ikawa. Aha kandi harimo ibikoresho abakozi bakoresha iyo bari gutunganya icyo gihingwa kugira ngo kijyanywe ku isoko.

Ababyeyi b'abagore bakuze, bari mu murima munini urimo ibiti bikuze by'ikawa, aba bari kuzisarura bazishyira mu bikoresho baje bitwaje, nyuma barazijyana mu ruganda maze bazibagurire, na bo babone amafaranga yo gutunga ingo zabo.

Ababyeyi b'abagabo ndetse n'abagore bakora umwuga w'ubuhinzi bari mu murima munini uteyemo umuceri, aba bari gukora igikorwa cyo kuwobagara, aho batandukanya ibyatsi ndetse n'umuceri kugira ngo bitazabangamirana bigacuranwa ifumbire.

Umurima uteyemo igihingwa cy'ikawa gifite amashami y'icyatsi kibisi ndetse cyera imbuto zifite ibara ry'icyatsi kibisi n'umutuku, izeze zitukura zijyanwa ku ruganda zigatunganywa maze abahinzi bazo bakabona amafaranga.

Umurima munini urimo ibiti birebire bikuze by'ikawa byezeho ikawa zifite ibara ry'umutuku ndetse izindi zikaba zifite ibara ry'icyatsi kibisi, izi zifite ibara ry'umutuku zirasarurwa, zikajyanwa ku ruganda maze zigatunganywa.

Umusore ukiri muto wambaye ikote rifite amabara y'umukara n'umweru n'ingofero y'umukara ari iruhande rw'umurima munini uhinzemo igihingwa ngengabukungu cy'ikawa, uyu ari kugisoroma kugira ngo aze kukijyana aho kigomba gutunganyirizwa.

Umubyeyi w'umugore ndetse n'umukobwa we bari mu murima munini wezemo igihingwa ngengabukungu k'icyayi, aba bahetse udutebo ku rutugu aho bari gusarura icyo cyayi bashyira muri utwo dutebo kugira ngo baze kukijyana ku ruganda.

Umubyeyi w'umugore wambaye imyenda ifite amabara y'icyatsi kibisi, umutuku n'umweru. Uyu kandi ateze igitambaro mu mutwe aho ari mu murima uhinzemo igihingwa ngengabukungu k'icyayi arimo kugisarura.

Umugabo ukora umwuga w'ubuhinzi bw'ikawa ari mu murima munini urimo ibiti binini by'ikawa, uyu arimo kubisarura akuraho imbuto z'ikawa zeze ngo azishyire hamwe maze azijyane ku ruganda bamuhe amafaranga maze abashe gutunga umuryango we.

Imisozi iteganye ibereye ijisho ihinzeho igihingwa ngengabukungu cy'icyayi, hari kandi n'ibiti birebire by'inganzamarumbo bitanga umwuka mwiza wo guhumeka ndetse bikanabazwamo imbaho.

Ababyeyi b'abagore, bakuze, bambaye imyambaro ifite amabara y'icyatsi kibisi n'umutuku, bari mu murima munini w'igihingwa ngengabukungu kitwa icyayi. Aba bari kugisarura, bashyira mu bitebo bahetse ku mugongo.

Umugore wambaye imyenda ifite amabara y'ubururu ndetse n'umutuku n'agapfukamunwa, ari mu murima munini, urimo ibiti, byera ikawa. Ibi bikunda kwera ku misozi kuko ariho byagenewe kuba.

Ababyeyi b'abagore, bari mu myaka ikuze, bari gutunganya umusaruro w' ikawa, aka ni akazi ka buri munsi bahemberwa maze bagakuramo amafaranga bagatunga imiryango yabo, bakanishyurira abana babo amashuri.

Umubyeyi w'umugore ari mu murima uhinzemo igihingwa cy'ikawa, aho ari kugisarura kugira ngo akijyane ku ruganda maze ahabwe amafaranga, hari kandi n'ibindi bihingwa birimo insina zera ibitoki bivamo imineke.

Umusaruro w'ikawa zeze zikunda kwera mu misozi. Izi kawa zireze ndetse zifite ibara ritukura. Aho zigiye gutunganywa maze zikoherezwa mu masoko hirya no hino mu ngo maze bikinjiriza amafaranga abahinzi bazo.

Igishanga gihinzemo umuceri uteye ku murongo, uyu muceri ufasha abahinzi kugira ngo batunge imiryango yabo binyuze mu mafaranga bakuramo iyo bawugurishije cyangwa se n'iyo bawusaruye bakawujyana mu ngo zabo kuwurya.

Imisozi miremire iteye amabengeza, iriho igihingwa ngengabukungu cyitwa icyayi, iki gihingwa gitanga amafaranga cyane cyane ku bantu bagihinga kuko kibinjiriza bitewe n'uko gikunzwe cyane ku isoko.

Umubyeyi w'umugabo ukora ibijyanye n'ubuhinzi wambaye imyambaro ifite amabara y'umuhondo n'umukara ari mu murima we urimo ibiti byera igihingwa ngengabukungu k'ikawa, iruhande rw'aho kandi hari igihingwa k'insina zera ibitoki.

Abagore bambaye imyenda ifite amabara y'umutuku n'umweru isa, bari mu murima munini uhinzemo igihingwa k'ikawa, aba bagisaruye ndetse bagifite mu biganza aho bari kukerekana mbere yuko bakijyana mu ruganda.

Umugabo wambaye imyenda ifite amabara y'umweru ndetse n'ingofero ari mu murima munini uhinzemo igihingwa ngengabukungu k'icyayi, iki cyayi baragisarura bakakijyana muri Uganda kikitabwaho kigatunganywa maze abantu bakakigura ku bwinshi.

Umurima urimo ibiti binini by'ikawa bitarera, ibi bifite udushami duto ndetse n'ibibabi by'icyatsi kibisi, hariho kandi n'ikawa z'ibitumbwe aho zizera zikagira ibara ritukura maze zigasarurwa zikajyanwa mu ruganda.

Mu muririma uhinzemo igihingwa cy'ikawa kikiri gitoya gifunze mu mashashi cyitabwaho kigashyirwaho amazi n'ifumbire kugira ngo kizimurirwe ku muririma w'umusozi gifite ubuziranenge ndetse n'ubuzima bwiza butuma kizakura neza kigatanga umusaruro.

Ububiko bw'imiti burimo ibicupa bikoze mu byuma bifite ibyapa bifite amabara y'umutuku, umweru n'umukara. Muri ibi bicupa harimo imiti y'amazi ikoreshwa mu kuvura indwara zibasira amatungo yo mu rugo arimo amaremare ndetse n'amagufi.

Ububiko bw'imiti iri mu bikarito bifite amabara y'umweru, umutuku ndetse n'umukara n'ubururu bwijimye, iyi miti ivura indwara zitandukanye amatungo yo mu rugo arimo inka, ihene, intama ndetse n'ayandi.

Imiti ifunze neza mu macupa apfundikiye neza kugira ngo itangirika, iyo miti ivura indwara zitandukanye amatungo yo mu rugo amaremare n'amagufi harimo inka, ingurube, ihene n'ayandi.

Ahantu habugenewe mu bubiko bw'imiti, harimo ishashi ifite amabara y'umweru, umuhondo ndetse n'umutuku. Muri iyo shashi harimo umuti w'ifu ukoreshwa mu kuvura indwara zitandukanye zibasira amatungo yo mu rugo.

Ku meza akoze mu mbaho, hariho ishashi nini, ifite amabara y' umweru, icyatsi kibisi n'umutuku, iyi shashi irimo umuti w'ifu, ukoreshwa mu kuvura indwara zitandukanye zibasira amatungo yo mu rugo, yaba amaremare n'amagufi.

Amashashi afite ibara ry'umukara ndetse n'umweru n'icyatsi kibisi arimo amafu akoreshwa mu kuvura indwara zibasira amatungo yo mu rugo arimo nk'inka, inkoko, ingurube n'ayandi, ibi bituma umusaruro ukomoka ku bworozi wiyongera.

Icyumba kibikwamo imiti kirimo uducupa dukoze mu birahure turiho ibyapa by'umweru. Tubitsemo imiti ikururwa mu rushini maze igaterwa amatungo iyo afite indwara.

Amacupa afite amabara y'umukara, umweru ndetse n'ubururu, aya arimo imiti ikoreshwa mu kuvura indwara zitandukanye z'amatungo, apfundikiye neza hakoreshejwe imipfundikizo y'umutuku kugira ngo itangirika.

Ububiko bw'imiti bwabugenewe burimo amashashi ashushanyijeho inyamaswa y'itungo ryo mu rugo ifite icebe rinini, iyo ikaba yitwa inka. Muri ayo mashashi harimo umuti w'ifu uvura indwara zitandukanye zibasira ayo matungo.

Ububiko bw'imiti ivura amatungo ifunze mu mabara y'icyatsi kibisi, ubururu ndetse n'umweru, iyi miti ivura amatungo yo mu rugo arimo amagufi ndetse n'amaremare iyo afite indwara.

Ububiko bw'imiti iri mu bicupa bifite amabara y'umuhondo, icyatsi kibisi ndetse n'umweru, hashushanyijeho inka ifite amabara y'umweru n'umukara, ibi bicupa birimo imiti ikoreshwa mu kuvura ayo matungo iyo afite indwara zitandukanye.

Ahabikwa imiti y'ubwoko butandukanye. Hari igicupa kinini gifite amabara y'umweru, umutuku n'umuhondo. Iki gicupa kirimo umuti upfundikiye neza kugira ngo utangirika mbere yo gukoreshwa ku nyamaswa zifite ibibazo by'indwara.

Ububiko bw'imiti iri mu bikarito ndetse no mu bicupa ikoreshwa mu kuvura indwara zifite ibibazo by'uburwayi. Aha kandi hari n'igikoresho cy'ikoranabuhanga gipima ubushyuhe ndetse n'ubukonje kugira ngo imiti iri aho itangirika.

Ububiko bw'amacupa arimo imiti ifunze neza ndetse inapfundikiye, iyi miti ikoreshwa mu kuvura indwara zitandukanye zibasira amatungo yo mu rugo yaba maremare ndetse n'amagufi, urugero twavugamo nk'inka.

Mu bubiko bw'imiti ivura inyamaswa cyane cyane amatungo yo mu rugo, harimo icupa rinini rifite amabara y'umweru n'ubururu, iri cupa rirapfundikiye neza ndetse ririmo umuti, rinashushanyijeho igishushanyo cy'inkoko.

Amashashi manini afite amabara y'umuhondo, icyatsi kibisi, umutuku. Kuri ayo mashashi hashushanyijeho itungo rirerire ryo mu rugo ryitwa inka. Aya mashashi kandi arimo imiti y'ifu ivura indwara zitandukanye ayo matungo.

Ububiko bw'imiti ipanze neza mu mabara atandukanye. Harimo kandi umuti uri mu gicupa gifite ibara ry'umukara gipfundikiye neza. Uyu muti uvomwa mu rushinge maze ugaterwa inyamaswa ifite ikibazo cy'uburwayi igakira.

Ububiko bw'imiti iri mu bikarito bifite amabara y'umweru, ubururu n'icyatsi kibisi, kuri byo hashushanyijeho amatungo yo mu rugo magufi, hari kandi n'ibicupa bibitsemo imiti y'amazi, ikururwa mu rushinge maze igaterwa amatungo.

Amashashi afite amabara y'umweru, icyatsi kibisi n'umuhondo, muri aya mashashi, dusangamo umuti w'ifu, uvura indwara zitandukanye, zibasira amatungo yo mu rugo, harimo nk'imishwi n'inkoko nkuru.

Imiti iri mu bicupa bifite amabara y'umukara n'umuhondo ndetse ipfundikiye neza, iyi miti yica udukoko twibasira ibihingwa cyane cyane imbuto, urugero twavugamo intoryi, inyanya n'izindi.

Ububiko bwiza bwabugenewe bw'imiti y'amatungo ifunze neza mu bicupa bifite amabara y'umweru, bishushanyijeho amatungo yo mu rugo y'inkoko atanga umusaruro w'inyama ndetse n'amagi, iyo yitaweho neza.

Ububiko bwabugenewe bw'imiti bukoze ku buryo nta cyangiza imiti cyayigeraho, iyo miti ifunze mu mabara y'icyatsi kibisi, umweru ndetse n'umuhondo, ivura indwara zitandukanye zibasira amatungo yo mu rugo yaba amaremare cyangwa se n'amagufi.

Ububiko bw'imiti burimo amacupa afite amabara y'umweru ndetse n'ubururu, abitsemo imiti ivura indwara zitandukanye zibasira amatungo yo mu rugo, arimo nk'ingurube, ihene, inka ndetse n'ayandi.

Ububiko bw'imiti butuma imiti itagerwaho n'ubushyuhe cyangwa ubukonje bishobora gutuma yakwangirika, iyi miti kandi iri mu bicupa bifite amabara y'umukara n'ubururu ndetse iranapfundikiye neza kugira ngo itangirika mbere yuko ikoreshwa.

Amashashi afite amabara arimo umutuku, umuhondo ndetse n'umweru, kuri ayo mashashi hashushanyijeho inyamaswa z'amatungo yo mu rugo arimo n'inkoko zitera amagi izindi zikavamo inyama.

Ahabikwa imiti hari ibicupa binini, bifite amabara atandukanye arimo umweru n'umuhondo. Ibi bicupa birapfundikiye neza kugira ngo imiti irimo mu imbere iticwa n'ubushyuhe bwinshi cyangwa ubukonje mbere yo gukoreshwa.

Abagore bakora umwuga w'ubuhinzi, bari mu kibaya kinini kirimo umurima uhinzemo umuceri. Aba bari gukora igikorwa cyo kuwubagara, bakuramo ibyatsi byamezemo kugira ngo bitazacura intungamubiri uwo muceri.

Umubyeyi w'umugore wambaye ibikomo ndetse n'imyambaro ifite amabara y'icyatsi kibisi, ari kugerageza gutera ibiti abishyiraho ibitaka ndetse anabivomera mu rwego rwo kugira ngo ibiti bitazacika mu Gihugu.

Umurima uhinzemo igihingwa cy'ibigori bikiri bito ndetse bishishe, aha harimo umugabo n'umugore bakora umwuga w'ubuhinzi, bari kwita kuri ibyo bigori kugira ngo bizabahe umusaruro maze babone amafaranga yo kwita ku miryango yabo.

Itsinda ry'abagore ndetse n'abagabo, bari mu murima uhinzemo ibihingwa. Aba bari gukora igikorwa cyo kubagara, aho bakuramo ibyatsi bitameze nk'ibihingwa biri muri uwo murima kugira ngo bireke kubibangamira no kubicura ifumbire.

Umubyeyi w'umugore ukuze, wambaye imyambaro ifite amabara ajya gusa n'umweru, yiteze agatambaro mu mutwe, uyu ari mu murima wuzuyemo amazi, aho ari guteramo igihingwa cy'umuceri kugira ngo kizamutungire umuryango we igihe kizaba keze.

Umubyeyi w'umugore wambaye imyenda ifite amabara y'umuhondo, umutuku n'umukara, ari iruhande y'ubwanikiro bw'ibigori, ibi bigori bivamo ifu maze igakorwamo akawunga ndetse n'igikoma gikundwa cyane n'ababyeyi.

Itsinda ry'abantu barimo abagabo bambaye imyambaro ifite amabara y'icyatsi kibisi n'ubururu bwijimye, bari ahantu mu gisambu bari mu gikorwa cyo gutera ibiti, aba bari gukoresha igikoresho gikoreshwa mu buhinzi, kizwi ku izina ry'isuka.

Abagabo bambaye impuzankano z'abashinzwe umutekano harimo abapolisi ndetse n'abasirikare, bifatanyije n'abaturage mu gikorwa cy'umuganda aho bari gukora igikorwa cyo gutera ibiti kugira ngo amashyamba atazacika mu gihugu.

Umugabo ukora ibijyanye n'ubuhinzi ndetse n'ubworozi ari mu rugo rwe rurimo inzu yubakishije ibiti ndetse ifite n'urugo ruzengurutswe n'imiyenzi hari kandi n'inka ye y'ikijyambere ifite amabara y'umweru n'umukara imuha ifumbire akoresha mu buhinzi bwe.

Igisambu kirimo ibyatsi bitoshye ndetse n'inka za kijyambere zifite amabara y'umweru, umukara n'kigina, izi zirimo izifite ice riinini byerekana ko zishobora kuba zikamwa amata.

Ibiti bikiri bito byashyizwe ahantu hamwe kugira ngo byitabweho bishyirweho ifumbire ndetse n'amazi bikure maze bizajyanwe mu mirima bifite intungamubiri maze nibigerayo bizahite bikura bitiriwe bifata igihe kirekire.

Umurima munini cyane urimo igihingwa cyi'ibigori gifite amabababa y'icyatsi kibisi, iki gihingwa kiracyari gito ndetse gikenewe kwitabwaho kigashyirwaho ifumbire kigaterwa umuti kugira ngo kizatange umusaruro.

Umugore n'umugabo bakora umwuga w'ubuhinzi bambaye imyenda ifite amabara y'ubururu n'umukara, bari mu murima wabo bahinzemo imboga rwatsi. Iyo bazisaruye bazijyana ku masoko bakazigurisha maze bagakuramo amafaranga yo gutunga abana babo.

Umugabo ukora umwuga w'ubuhinzi wambaye imyambaro ifite amabara y'umweru ari kunyuza igare rye ahantu hari ibyatsi bitoshye, uyu ahetseho imigozi y'ibijumba aho agiye kuyitera mu murima ngo na yo izavemo ibindi bijumba.

Abagore ndetse n'umugabo bicaye mu murima uhinzemo imbuto z'inanasi batuje, hari kandi n'igihigwa kinini k'insina zera ibitoki bivamo imineke ikungahaye ku ntungamubiri zitandukanye zifasha umubiri guhangana n'indwara.

Mu mbuga yegeranye n'ahari ibyatsi bitoshye birishwa n'amatungo, hari ishyo ry'inka zirimo iza kijyambere, izi zitabwaho maze zigatanga umusaruro urimo amata nayo akorwamo icyayi ndetse akanatekwa mu gikoma.

Umugabo wambaye imyenda y'umuhondo n'umutuku ari munsi y'igiticy'umuvumu cy'inganzamaro, iki giti kibamo amoko atandukanye y'inyoni ndetse kibazwamo imbaho zivamo ibikoresho bitandukanye, bajyaga kandi bagikoramo imivure yo kwengamo urwagwa.

Abantu b'abagabo bafite amasuka ku rutugu bakoresha iyo bari guhinga, aba bambaye imyambaro ifite amabara y'umweru n'umukara bari kunyura mu gisambu kirimo ibyatsi bitoshye ndetse n'ibiti by'inganzamarumbo.

Umubyeyi w'umugabo wambaye imyenda ifite amabara y'icyatsi kibisi n'umweru, ari mu murima uhinzemo igihingwa cy'ibigori bikiri bito, uyu ari kugerageza kubyitaho kuko bikunda kwibasirwa n'udukoko kugira ngo bizamuhe umusaruro uhagije.

Abagabo n'abagore bakora umwuga w'ubuhinzi bari mu murima uherutse guhingwamo igihingwa k'ibigori, aba bari gukuramo ibiti byavuyeho ibigori byeze kugira ngo babishyire hamwe.

Ababyeyi b'abagore bakuze, bambaye imyambaro ifite amabara y'umutuku n'umweru. Bafite amasuka ku rutugu, bakoresha iyo bari guhinga. Aba bari kunyura mu nzira ikikijwe n'ibyatsi, bitoshye bigaburirwa amatungo.

Itsinda rigari ry'abantu barimo abagabo n'urubyiruko bari mu gikorwa cyo gutera ibiti ahantu hari ibyatsi bitoshye, aba kandi barimo umugabo wambaye imyambaro y'igisirikare cy'igihugu iriho ibendera.

Umubyeyi w'umugore wambaye imyambaro ifite amabara y'ubururu, umutuku ndetse n'umukara, ari iruhande rw'umurima we yateyemo ibigori. Ibi bigori azabijyana ku isoko maze bamuhe amafaranga, abashe kwiteza imbere ndetse anarihire abana be amashuri.

Umubyeyi w'umugore ari kumwe n'umukobwa we mu murima, aho bari guhinga bakoresheje igikoresho gikoreshwa mu buhinzi kizwi ku izina ry'isuka. Umurima barimo kandi urimo insina zera ibitoki ndetse n'urubingo.

Igisambu kinini kirimo ubwatsi butoshye kirimo inka zifite amabara y'umukara ndetse n'umweru, harimo kandi n'ibiti by'inganzamarumbo, izo nka ziri kwirishiriza ubwo bwatsi kugira ngo zizatange umusaruro ba nyirazo bazitegerejeho.

Umubyeyi w'umugabo ndetse n'uw'umugore bambaye imyambaro ifite amabara y'umweru, umutuku, bari ahantu hagenewe gutunganizwa imbuto zikiri ntoya aho zitabwaho zigashyirwaho ifumbire n'umuti maze zikazajyanwa mu mirima aho ziba zizaterwa zikahakurira maze zikanahasarurirwa.

Ikiraro cyubakishije ibiti ndetse n'imbabari bikorwa mu biti, hari kandi inka nini zizwi ku izina ry'Inyambo zifite amahembe yigoronzoye, zimwe ni imbyeyi ndetse zirikonsa inyana zazo.

Abahinzi b'abagore bambaye imyambaro ifite amabara atandukanye, bari mu gikorwa cyo guhinga bakoresheje amasuka, aba kandi bari iruhande rw'igisambu kinini kirimo ibyatsi bitoshye, kiragirwamo inka maze zigatanga umusaruro.

Umurima munini uhinze neza urimo ibihingwa biteye ku murongo ndetse n'imashini ikoreshwa mu kuhira imyaka mu gihe cy'izuba kugira ngo ituma, ibi bituma umusaruro ukomoka ku buhinzi wiyongera maze abahinzi bagatera imbere.

Abagabo babiri bakuru bakora umwuga ujyanye n'ubuhinzi, bari mu murima uhingwamo umuceri, aba bari kuharima kugira ngo nibateramo umuceri bizaborohere ndetse amazi nazamo uzahite umera.

Umugore wambaye igitenge, umupira ndetse ateze n'igitambaro ari mu murima we yahinzemo imboga rwatsi ndetse n'ibirayi, iyo byeze abijyana ku isoko akoresheje igare cyangwa se akabitwara ku mutwe maze akabishyira abaguzi bakabigura bakamuha amafaranga.

Abantu biganjemo urubyiruko rugizwe n'abasore ndetse n'inkumi bateraniye ahantu mu murima urimo ibimera, aba kandi bari gukora igikorwa cyo gutera ibiti mu rwego rwo kugira ngo amashyamba atazacika mu gihugu kandi afite akamaro gakomeye.

Ahateganye n'umusozi uriho ibihingwa by'ubwoko butandukanye, hari umuceri uhinzwe mu kabande, uyu muceri ntabwo urera ariko iyo weze ujyanwa ku ruganda maze bakawutonora, bakawushyira neza mu mifuka maze ukajyanwa gucuruzwa.

Iruhande rw'inzu yubatswe mu buryo bugezweho yubakishije amabati ndetse n'urugo ruyikikije rwubakishije amatafari, hari umurima uhinzemo igihingwa cy'imyumbati yerera munsi y'ubutaka.

Umurima uhinze, urimo imigozi yerera mu butaka, ikera igihingwa k'ibijumba, iki gihingwa kiri muri bimwe mu bihingwa ngandurarugo, aho abagize umuryango bakirya cyangwa se bakakijyana ku isoko, bakakigurisha maze bakiteza imbere.

Ibicuruzwa dusanga mu nzu zitandukanye zikorerwamo ubucuruzi urugero, twavuga nk'amavuta yaba ayo kwisiga ndetse n'ayo guteka mu biryo, imboga n'imbuto urugero, twavugamo nk'inyanya ndetse n'ibikoresho dukoresha dusukura amenyo.

Umurima munini cyane uhinze neza hakurikijwe amategeko y'ubuhinzi bwa kijyambere, uyu murima urimo ibihingwa by'ibigori biteye ku murongo byitabwaho bigashyirwaho ifumbire, bikanaterwa umuti maze bigatanga umusaruro ushimishije.

Igishanga cyigeye ndetse kinini cyane kirimo igihingwa cy'umuceri, iki gishanga gikikijwe n'ibiti birebire by'inganzamarumbo bibamo inyamaswa zitandukanye z'agasozi, iki gishanga kandi gifite akamaro gakomeye kuko gituma akarere ndetse n'abantu badatuye babona ibyokurya bitabagoye.

Umuhanda muremure w'igitaka ukikijwe n'ibyatsi bitoshye hirya hari undi murima unyurwamo n'ibiti birebire binyurwaho n'imigozi y'amashanyarazi anyuzwa mu kirere mu rwego rwo kugira ngo adateza impanuka mu gihe yaba anyuze hasi.

Mu murima urimo ibihigwa by'ubwoko butandukanye. Birimo ibihaza, imyumbati ndetse n'imboga rwatsi zifasha umubiri kubona neza. Hari kandi n'ibindi byatsi bikoreshwa mu bijyanye n'ubuvuzi gakondo.

Umusozi muremure uriho ibyatsi ndetse n'ibiti, hariho kandi n'inzu zituwemo n'abantu zisakaje amabati, hari kandi n'umurima munini uhinzemo ibigori unyuramo amatiyo azana amazi maze agakoreshwa mu kuhira iyo myaka mu gihe cy'izuba rikabije.

Umurima munini ukorerwamo iby'ubuhinzi, uteyemo igiti kirekire cya Geleviriya ikorwamo imbaho. Harimo kandi n'igihingwa k'ibishyimbo kera maze kikagaburirwa abagize umuryango ndetse kiri mu bihingwa ngandurarugo.

Ububiko bw'ibyo kurya bwabugenewe butuma ibyo kurya bidahura n'ubushyuhe cyangwa ubukonje bukabije bwaba bwatuma byibasirwa bikanapfa mbere yo kuribwa, ibi biri mu macupa yabugenewe ndetse n'amashashi adatuma byangirika.

Umurima munini urimo ibiti birebire bikuze ndetse unahinzemo igihingwa cy'ubutunguru, ubu butunguru bushyirwaho ifumbire n'umuti maze bwakura bugasarurwa bukajyanwa ku masoko maze ababuhinze bakabonamo amafaranga bakiteza imbere.

Umurima urimo ibihingwa bitandukanye birimo igiti cyera imbuto z'imyembe, isina zera ibitoki bikorwamo ibintu bitandukanye, ndetse n'ibigori bivamo ifu y'akawunga ndetse n'igikoma.

Igihingwa k'imyumbati, kikiri gito ndetse kitarera. Iki gihingwa giteye mu murima uhinze neza, aho Kerera mu butaka kimwe n'ibindi bihingwa birimo nk'ibijumba. Iki gihingwa kiri mu bwoko, bw'ibihingwa ngandurarugo.

Igihingwa cy'umuceri gihinze mu kabande aho kibasha kuba cyabona amazi ahagije kuko kiyakenera kugira ngo gikure, iki gihingwa iyo kize kirasarurwa maze kikanikwa, bakakijyana mu ruganda kigatonorwa maze kigashyirwa ku isoko.

igishanga kinini gikorerwamo ibijyanye n'ubuhinzi bw'umuceri, gikikijwe kandi n'amashyamba manini arimo ibiti by'inganzamarumbo bitanga umwuka wo guhumeka, abahinzi bari guhinga muri icyo gishanga bari gutwika ibyatsi hakazamuka umwotsi.

Umusaruro w'ibikomoka ku buhinzi urimo inyanya, imboga rwatsi ndetse n'ibitunguru n'imiteja, ibi ni bimwe mu bikungahaye ku ntungamubiri zifasha umubiri kugira imbaraga, zaba izo gukora ndetse n'izo guhangana n'indwara.

Nk'umusaruro ukomoka ku buhinzi burimo imboga, imbuto. Urugero twavugamo nk'imineke, inyanya, karoti n'ibindi. Ibi byose ni ibifasha umubiri kugira ngo ugire imbaraga z'umubiri. Izo gukora ndetse n'izo guhangana n'indwara zitandukanye.

Inzira nyabagendwa ya kaburimbo ifite amabara y'umukara n'umweru, nanone hari akayira k'abanyamaguru gakoze neza gatuma abanyamaguru batagenda mu muhanda bityo ngo bibe byateza impanuka, hari n'umurima munini uhinzemo igihingwa k'imyumbati.

Umurima urimo ibimera byerera munsi y'ubutaka urugero twavugamo nk'imyumbati ndetse amababi yayo akaba aribwa n'amatungo yo mu rugo urugero twavugamo nk'ingurube, hari kandi n'uruboga rwatsi rukungahaye mu kugira vitamine a ifasha amaso kubona neza.

Umurima munini urimo uruyuzi rwera igihaza kinini gikundwa n'abatari bake, hari n'insina nyinshi zera ibitoki byaba ibivamo urwagwa ndetse n'ibitekwa mu ngo bakabirya.

Umurima munini uhinzemo igihingwa cy'ibishyimbo. Ibi ni bimwe mu bihingwa ngandurarugo, aho abahinzi babihinga bakabijyana mu rugo bakabigaburira abana babo maze imiryango yabo ikarushaho kugira ubuzima bwiza.

Mu murima urimo ibimera bitandukanye birimo nk'ibyatsi byahirwa maze bikagaburirwa amatungo na yo agatanga umusaruro. Hari kandi n'igiti cyera avoka zikajyanwa ku isoko maze bigaha amafaranga abazihinga.

Inzu nziza cyane, yubatswe mu buryo buteye imbere, ifite amabara y'umweru ndetse n'inzugi zifite amabara y'umutuku, imbere yayo, hari igiti cy'inganzamarumbo cyitwa Gereveriya, gikorwamo imbaho nazo zikavamo ibikoresho bikomeye.

Umurima urimo ibihingwa ngandurarugo byerera munsi y'ubutaka birimo ibijumba ndetse n'imyumbati, ibi bifasha abagize umuryango kugira ngo ubuzima bwicume kuko umuntu ashobora kubirya bitamusabye ko yongeramo ibindi bintu bigusaba amafaranga.

Umurima udahinze neza urimo igihingwa k'imyumbati kikiri gito kizwiho kuba kuba kerera mu butaka, hari kandi n'ibiti birebire by'inganzamarumbo bikorwamo ibintu bitandukanye, birimo ibikoresho byo mu rugo, urugero twavuga nk'ibitanda, ibi kandi binakoreshwa mu kubaka.

Ahateganye n'imisozi miremire iriho ibimera ndetse n'ibihingwa bitandukanye hari umurima munini urimo igihingwa cy'ibigori bikiri bito, ibi bigori iyo bikuze biranikwa maze bikajyanwa mu ruganda gutunganywamo ifu ivamo igikoma n'akawunga.

Umusozi uriho ibiti birebire bikoreshwa mu mirimo y'ubwubatsi, bigakurura abakerarugendo ndetse bikanakorwamo ibikoresho bitandukanye byo mu rugo. Hagati aho harimo igishanga gikorerwamo imirimo y'ubuhinzi.

Iruhande rw'ibiti by'inganzamarumbo ndetse no mu byatsi bitoshye harimo abagabo bashinzwe umutekano barimo abasirikare ndetse n'abadaso, aba bari mu gikorwa cyo gukora umuganda batema ibyatsi birebire biteza ikibazo.

Ihuriro ry'abaturage baturutse imihanda yose, bahuriye mu byatsi bitoshye ndetse munsi y'ibiti, aba bari kumwe n'abayobozi n'abashinzwe umutekano, bambaye impuzankano zifite ibara ry'icyatsi kibisi z'igisirikare cy'Igihugu ndetse n'abapolisi, aba bari kuganira ku ngingo zitandukanye zirimo iz'umutekano.

Umurima urimo ibihingwa bitandukanye birimo ibigori ndetse n'isina zera ibitoki, harimo kandi n'igiti cy'umubirizi gikoreshwa mu bintu byinshi birimo gukora imisemburo ikoreshwa mu kinyobwa cy'ikigage.

Akayira gato gafunganye kanyura hagati y'ibiti bya gereveriya bibazwamo imbaho, na zo zigakorwamo ibikoresho bitandukanye, iruhande rwabyo hari ikiyaga kinini gikorerwamo ibijyanye n'uburobyi n'ubwikorezi bwo mu bwato.

Ishyamba rigizwe n'ibiti birebire ndetse n'ibigufi bikurura imvura, bigakurura ba mukerarugendo ndetse bikanabazwamo imbaho na zo zivamo ibikoresho bitandukanye byo mu rugo. Iryo shyamba kandi ricumbikiye inyamaswa nyinshi z'agasozi.

Umusozi muremure uriho ibiti by'ubwoko bwinshi ndetse n'ibyatsi, hari ahagaragara ko hatemwe ibiti aho byajyanwe gutwikamo amakara na yo akoreshwa mu rugo mu mirimo yo guteka no gutera ipasi.

Imisozi miremire iriho ibyatsi ndetse n'ibiti n'inzu zituweho n'abantu zisakaje amabati, hari kandi n'imihanda y'ibitaka inyurwamo n'ibinyabiziga bitandukanye, nanone hari insina zera ibitoki bivamo urwagwa ibindi bigatekwa.

Ishyamba rinini rigizwe n'ibiti birebire by'inganzamarumbo, iri shyamba rikurura ba mukerarugendo, rigakurura imvura, rikanatanga umwuka mwiza abantu bahumeka bityo ntibarware indwara z'ubuhumekero.

Imisozi migufi iriho imirima ihingwamo n'abantu, ikabaho kandi n'ibiti birebire by'inganzamarumbo. Hari kandi n'inzu nziza zisakaje amategura zituwemo n'abantu ndetse n'insina zera ibitoki.

Umusozi munini uriho amashyamba agizwe n'ibiti birebire n'ibigufi, ibyo biti bikorwamo ibikoresho bitandukanye, maze bikanakoreshwa mu kubaka amazu, yaba agerekeranyije ndetse n'asanzwe.

Umuhanda unyura hagati mu ishyamba ry'inzitane ririmo ibiti birebire by'inganzamarumbo bicumbikiye amoko menshi y'inyoni, ibi biti kandi bikoreshwa mu mirimo ijyanye n'ubwubatsi bw'amazu ndetse n'ibiraro.

Igiti kinini gifite amashami akuze kiri ahantu mu gisambu kirimo ubwatsi butoshye, ubu bwatsi burishwa n'inka z'aborozi maze zigatanga umusaruro w'amata ndetse n'inyama.

Amashyamba arimo ibiti by'ubwoko butandukanye, bicumbikiye amoko menshi y'inyoni, ibi biti kandi bibazwamo imbaho nazo zigakorwarwamo ibikoresho bitandukanye byo mu rugo birimo intebe, ameza, ibitanda n'ibindi.

Itsinda rigari ry'abantu bari mu gikorwa cy'umuganda rusange, aba bari kuwukorera iruhande rw'ishyamba rifite ibiti birebire by'inganzamarumbo barimo kandi abashinzwe umutekano barimo nk'abadaso n'abapolisi.

Umusozi muremure uriho ibimera n'ibiti birebire bitanga umwuka mwiza wo guhumeka, bigakurura abakerarugendo ndetse bikanakoreshwa mu mirimo itandukanye irimo iy'ubwubatsi.

Umusozi muremure uriho ibiti n'ibyatsi byahirwa n'aborozi bakabishyira amatungo yabo yo mu rugo maze agatanga umusaruro, hari kandi n'inzu yo gutorwamo isakaje amabati y'umweru.

Umusozi uriho ibyatsi ndetse n'ibimera bigaburirwa amatungo kugira ngo atange umusaruro, hari kandi n'ibiti bibazwamo imbaho ndetse n'insina zera ibitoki bikavamo urwagwa ruryoshye.

Icyuzi kirimo amazi menshi cyane, abamo amafi ndetse abantu bakanayakoresha bavomera imyaka. Iruhande rwaho kandi hari ibiti bitoshye, bikoreshwa mu gukora imbaho na zo zivamo ibikoresho bitandukanye byo mu rugo.

Amashyamba agizwe n'ibiti birebire birimo iby'ubwoko butandukanye, aya mashyamba akurura ba mukerarugendo, agakurura imvura ndetse akanakoreshwa mu mirimo itandukanye, irimo iy'ubwubatsi, anacumbikiye kandi inyamaswa zitagira ingano z'agasozi.

Imisozi iteganye iriho ibiti by'ubwoko butandukanye, byaba ibikorwamo ibikoresho ndetse n'ibikoreshwa mu bwubatsi bw'amazu, yaba agerekeranyije ndetse n'atagerekeranyije. Muri ibi biti habamo amoko menshi y'inyoni.

Umugabo w'umuyobozi wambaye imyenda ifite amabara y'umukara n'umweru, yambaye inkweto zikoreshwa mu kazi aho ari kwita ku giti k'ikawa kera imbuto zifite amabara atukura maze zikajyanwa mu ruganda gutunganywa.

Mu murima uhinze neza mu buryo bwa kijyambere, urimo ibihingwa by'ibishyimbo, biri muri bimwe mu bihingwa ngandurarugo, hagati kandi harimo amatiyo atwara amazi, akoreshwa mu kuvomera ibyo bihingwa mu gihe k'izuba ryinshi.

Umusaruro w'ubuhinzi urimo imboga ndetse n'imbuto n'inyanya, uba ugomba gukoreshwa hadashize igihe kinini usaruwe. Impamvu ni uko utagomba kumara igihe kirekire kuko ushobora gupfa utarakoreshwa.

Ababyeyi b'abagore, bari mu murima uhinzemo imboga z'amashu ahinze ku murongo, imbere yaho hari inzu zubakishije amatafari ahiye zituwemo n'abantu b'ingeri zitandukanye.

Inzu yabugenewe yubakishije ibyuma ndetse yubakanywe ubuhanga butuma ibihingwa biyihinzemo bitakagerwaho n'izuba ryinshi ngo bibe byakuma, ibi ni bimwe mu byafashwe nk'ingamba kugira ngo hahanganwe n'ihindagurika ry'ikirere.

Umubyeyi w'umugore ushaje ari mu murima uhinzemo imboga rwatsi, uyu ari gukora igikorwa cyo kuzibagara akoresheje igikoresho gikoreshwa mu buhinzi bwa gakondo kitwa isuka, hari kandi n'ibiti birebire bigaragiye uwo murima.

Umugabo ukora ubuhinzi, ari mu murima we uhinzemo imboga rwatsi, aho afite umusaruro w'imboga n'imbuto amaze gusarura. Uyu urimo karoti, ibitunguru ndetse n'inyanya. Agiye kubijyana ku isoko maze abone amafaranga yo gutunga umuryango we.

Umurima uhinze neza mu buryo bwa kijyambere urimo amashu ateye ku murongo ndetse ashishe, aya mashu yitaweho ashyirwaho ifumbire n'umuti none nyirayo azakuramo umusaruro ushimishije kuko yeze nk'uko yabyifuzaga.

Ibikomoka ku buhinzi birimo ibitera umubiri kugira amaraso menshi bifite ibara ry'umutuku hari kandi n'imboga z'ubwoko bwose zirimo amashu, afasha umubiri gukomera ndetse no kugira intungamubiri.

Ibyo kurya bidatetse birimo imboga, imbuto, urugero twavugamo inyanya, ibitunguru, sereri, karoti ndetse n'ibindi birimo ibijumba ndetse n'ibigori, ibi byose ni ibyo umubiri ukenera kugira ngo ugire imbaraga zaba izo gukora ndetse n'izo guhangana n'indwara.

Igiti gifite uburebure buhagije ndetse n'amashami maremare, iki giti cyera imbuto zera ipapayi zizwiho kugira intungamubiri zitandukanye ndetse n'uburyohere bituma abantu bazikunda.

Inzu zabugenewe zubakishijwe ibyuma ndetse n'amashashi akomeye, atwikira imboga n'imbuto bihingwamo kugira ngo bitangizwa n'ubushyuhe bwinshi cyangwa se imvura nyinshi, ibi bihingwa birimo biravomererwa maze bigatanga umusaruro.

Umurima urimo ibyatsi bitoshye ndetse n'igiti cyera imbuto z'ipapayi zizwiho kugira umutobe uryohera, ndetse zigurishwa mu masoko maze abantu bakazigura ku bwinshi bigateza imbere umuhinzi wazo.

Urubuto rwera imbuto ziryohereye ndetse ruteye ahantu rushobora kuba rwakitabwaho neza, hari kandi n'igisambu kinini kirimo ubwatsi butoshye bugaburirwa amatungo maze nayo agatanga umusaruro ku borozi bayo.

Ababyeyi b'abagore bambaye imyambaro ifite amabara y'umweru weruye ndetse n'umutuku bari gusarura ibihingwa, aba kandi bafite n'utudobo tubiri tumanitse ku maboko yabo bari gusaruriramo.

Iruhande rw'urugo ruzitiwe n'amabati, hari igiti kirekire cyera imbuto z'amapapayi, hariho amapapayi menshi azera maze agakurwamo umutobe kandi akajyanwa ku masoko kugira ngo ba nyirayo babone amafaranga.

Umubyeyi w'umugore wambaye imyambaro ifite amabara y'umukara ari mu murima urimo imigozi y'ibijumba. Ibi bijumba byerera munsi y'ubutaka. Iruhande rwawo kandi hari urubingo rukoreshwa mukubaka cyane cyane inzu z'amategura.

Abagabo ndetse n'abagore bakora umwuga w'ubuhinzi bari mu murima uhinzemo igihingwa cy'uruboga rw'amashu, aba bishimiye umusaruro bagezeho ndetse banafite aya mashu mu ntoki aho bagiye kuyajyana mu miryango yabo bakayarya.

N'imisozi miremire ndetse uhinzemo ibihingwa ,muri uyu murima harimo imashini nini ikoze mu byuma ndetse ifite amapine ,ikoreshwa n'abahinzi iyo bari kuhira imyaka yabo kugira ngo ituma.

Umugabo ukora umwuga w'ubuhinzi wambaye umwambaro ufite ibara ry'icyatsi kibisi ndetse n'umukara wijimye, ari mu murima uhinzemo ibihingwa, uyu ari gukoresha itiyo rirerire ritwara amazi aho ari kuvomera ibyo bihingwa bye.

Umugabo ukora ibijyanye n'umwuga w'ubuhinzi. Ari mu murima we uhinzemo amashu. Hari kandi igikoresho gihinduramo imirasire y'izuba mo amashanyarazi maze akifashishwa mu kuhira ibi bihingwa hakoreshejwe ikoranabuhanga.

Umurima munini urimo ibihingwa ndetse n'imashini kabuhariwe zikozwe mu byuma, zifiteho amatiyo atwara amazi akoreshwa mu kuvomera imyaka mu gihe k'izuba ryinshi. Ibi ni bimwe mu buryo bwo guhangana n'izuba rikabije riterwa n'ihindagurika ry'ikirere.

Ahateganye n'umusozi muremure uriho ibyatsi ndetse n'ibiti hari ibihingwa by'ubwoko butandukanye bihinze mu murima, harimo kandi imashini yabugezweho kabuhariwe ifasha mu kuhira imyaka mu gihe cy'izuba ryinshi.

Umurima mwiza uhinze neza ufite ifumbire ihagije. Muri uyu murima hateyemo igihingwa k'ibigori bikiri bito bitarakura. Haranyuramo kandi itiyo rinini ritwara amazi akoreshwa mu kuvomera ibi bihingwa mu gihe k'izuba ryinshi.

Igishanga giteganye n'umusozi kirimo ibihingwa birimo nk'ibigori, muri iki gishanga harimo amatiyo manini anyuramo amazi ndetse n'imashini zifite amapine zikoreshwa mu kuhira iyi myaka mu gihe cy'izuba.

Umubyeyi w'umugore wambaye igitenge ndetse n'indi myenda ari mu murima uhinzemo imboga. Uyu ari gukoresha igikoresho gikoreshwa mu kuhira imyaka ayuhira kugira ngo bitazicwa n'izuba.

Umurima munini, uhinzemo ibihingwa by'ubwoko butandukanye, muri uyu murima haranyuramo amatiyo y'ikoranabuhanga atwara amazi ndetse akikoresha mu bijyanye no kuhira ibihingwa mu gihe cy'izuba.

Umubyeyi w'umugore wambaye igitenge ndetse anateze igitambaro cy'umweru, uyu afite itio rirerire rinyumo amazi aho ari kuvomera igihingwa cye cy'ubutunguru kugira ngo kizamuhe umusaruro yifuza.

Umurima urimo ibihingwa by'ibigori ndetse n'abantu babyitaho harimo kandi imashini nini zitwara amazi, zikayavomereza ibyo bihingwa mu gihe k'izuba ryinshi rishobora kuba ryatuma byuma.

Umubyeyi w'umugabo ukora ibijyanye n'ubuhinzi wambaye imyambaro ifite amabara y'ubururu bweruye n'umukara ndetse n'igofero, uyu afite itiyo rinini ritwara amazi aho ari kuvomera ibihingwa bye kugirango bituma.

Iruhande rw'umugezi utemba urimo amazi menshi hari abagore ndetse n'abagabo bafite igikoresho cy'ikoranabuhanga gihinduramo imirasire y'izubamo amashanyarazi, ayo mashanyarazi akoreshwa mu kuhira ibihingwa.

Umurima munini uhinzemo ibihingwa unyuramo itiyo rinini ritwara amazi, iri tiyo ryakozwe hakoreshejwe ibikoresho bitandukanye ndetse rikoranywe ikoranabuhanga rituma ryikoresha rikavomera ibihingwa kugira ngo biticwa n'izuba.

Mu murima uhinzemo ibihingwa by'imboga birimo amashu harimo umugabo w'umuhinzi ufite umupira munini uzana amazi, uyu ari kuvomera ibyo bihingwa kugira ngo bitazicwa n'izuba maze ntabikuremo umusaruro yifuza.

Umubyeyi w'umugabo ufite umupira utwara amazi ndetse ari mu murima uhinzemo imboga. Uyu ari kugerageza kuhira imboga ze kugira ngo zituma bitewe n'izuba ryinshi cyangwa ubushyuhe bwinshi.

Umugore wambaye ikanzu ifite amabara y'icyatsi kibisi ndetse n'umweru, afite umupira munini utwara amazi, uyakura ahantu kure, uyu ari kugerageza kuhira imyaka ye kugirango itazumishwa n'izuba.

Imbere y'inzu nini isakaje amabati ashaje hari igihingwa k'ibigori harimo kandi n'umwana ukiri muto ufite itiyo rinini ritwara amazi aho ari kuvomera iki gihingwa kugira ngo kitazicwa n'izuba.

Umurima uhinzemo ibigori bikiri bito ndetse bishishe. Aha kandi harimo umupira munini utwara amazi uyavana kure uyazana ahari ibyo bihingwa. Uyu kandi ukoreshwa mu kuhira imyaka kugira ngo itange umusaruro.

Ahateganye n'umusozi muremure uriho ibiti binini by'inganzamarumbo, hari umurima uhinzemo ibihingwa biteye ku murongo hakurikijwe amategeko y'ubuhinzi bwa kijyambere, hagati hanyuramo amatiyo atwara amazi akoreshwa mu kuhira ibyo bihingwa mu gihe cy'ibura ry'imvura.

Igishanga kinini gihinzemo ibihingwa by'ubwoko butandukanye birimo imboga rwatsi, kirimo kandi imashini kabuhariwe zifasha mu kuvomera imyaka kugira ngo ituma iyo ari mu gihe cy'izuba.

Umugabo ukora ibijyanye n'ubuhinzi afite umupira munini unyuramo amazi menshi ava ahantu kure, uyu ari kugerageza kuhira insina ze kugira ngo zizamubyarire umusaruro yifuza urimo ibitoke.

Umubyeyi w'umugore ukenyeye igitenge yambaye n'agapira k'umweru ari mu murima munini uhinyuzemo amashu, uyu ari kuvomera aya mashu akoresheje umupira utwara amazi kugira ngo atazicwa n'izuba cyangwa n'ubushyuhe bwinshi.

Umurima munini urimo ibihigwa ndetse unyuramo amatiyo y'ikoranabuhanga yikoresha, aya akoreshwa mu bijyanye no kuhira imyaka mu gihe k'izuba ryinshi kugira ngo iyo myaka ituma maze abahinzi bayo bagahumba.

Umurima uhinze neza urimo ibihingwa biteye ku murongo ndetse ufumbiye, muri iyi mirima haranyuramo amatiyo atwara amazi ayakura ahantu kure ayajyana ahari ibihingwa kugira ngo akoreshwe mu kuvomera ibyo bihingwa.

Umugabo w'umuhinzi wa kijyambere afite ibikoresho by'ikoranabuhanga akoresha kugira ngo yuhire imyaka ye, bityo ntiyume mu gihe cy'izuba ryinshi ryumisha ibindi bihingwa, ibi ni bimwe mu bimufasha kugira ngo agire umusaruro yifuza.

Umusozi muremure, uriho ibihingwa ndetse n'ibyatsi birishwa n'amatungo yo mu rugo, hari kandi n'ishyamba rinini ririmo ibiti by'inganzamarumbo n'ibihuru by'inzitane nanone hari igishanga gihingwamo umuceri cyegeranye n'umugezi munini unyuramo amazi magari.

Ikiyaga kinini cyane gikorerwamo imirimo ijyanye n'ubwikorezi hakoreshejwe ubwato ndetse kigatanga n'umusaruro w'amafi, icyo kiyaga gikikijwe n'imisozi iriho ibimera by'ubwoko butandukanye.

Imisozi ibiri miremire iteganye umwe uriho ibiti by'inganzamarumbo, undi uriho igihingwa ngengabukungu cy'icyayi, hagati yayo hanyuramo umugezi ukorerwamo ibijyanye n'uburobyi bw'amafi ndetse n'ubwikorezi bukoreshejwe ubwato.

Imisozi miremire iteganye iriho ibimera ndetse n'inzu zituwemo n'abantu zisakaje amabati, hagati yayo hari igishanga kinini gihinzemo umuceri ukiri muto utarera, uyu witabwaho maze wakera abahinzi bawo bakamusarura bakiteza imbere.

Imisozi miremire iriho ibimera bitandukanye iriho ndetse n'umuhanda muremure abantu bakoresha iyo bari mu ngendo zabo, hariho kandi n'inzu nini ituwemo n'abantu, isakaje amabati ndetse ifite n'urugo rwubakishije ibiti.

Imisozi miremire iriho ibimera birimo ibyatsi ndetse n'ibiti birebire bikoreshwa mu bwubatsi, bikanakorwamo ibikoresho bitandukanye byo mu rugo birimo nk'amadirishya, inzugi, ibitanda ndetse n'ibindi.

Umusozi muremure uriho ibimera ndetse ucumbikiye inyamaswa nyinshi z'agasozi, hari kandi n'ibiti birebire by'inganzamarumbo bigize ishyamba ndetse hafi yaryo hari inzu ituwemo n'abantu yubakishije amatafari isakaje amabati.

Umusozi muto uriho inzu isakaje amabati y'umweru ndetse uriho n'ibihingwa birimo icy'insina zera ibitoki. Hari kandi ikiyaga kinini kibikikije, gikorerwamo imirimo ijyanye n'uburobyi.

Umusozi uriho inzu zituweho n'abantu, ibihingwa bitandukanye ndetse n'ibimera birimo ibiti birebire, iruhande rw'uwo musozi haranyura umugezi utemba ufite amazi yanduye, uwo mugezi ubamo amafi ndetse abantu barayaroba bakayajyana ku masoko.

Ababyeyi b'abagore bari kunyura ahantu hari ibihingwa bitoshye birimo ibigori, hari kandi n'umusozi muremure uriho ibimera birimo nk'ibiti birebire ndetse n'inzu zituwemo n'abaturage.

Igisambu kinini kiri ahantu hakomye habamo inyamaswa z'ubwoko butandukanye zirimo inkazi ndetse n'izitari inkazi, aha harimo inyamaswa ifite amabara y'umweru, umukara izwi ku izina ry'imiparage.

Imisozi miremire iriho ibihingwa n'ibimera by'ubwoko butandukanye ndetse n'ibiti by'ikiganzamarumbo, ikikijwe kandi n'ikiyaga kinini gikorerwamo ibijyanye n'uburobyi bw'amafi ndetse n'ubwikorezi bukozwe hifashishijwe ubwato.

Imisozi miremire iriho ibihingwa n'ibimera by'ubwoko butandukanye. Hari kandi n'inzu yubakishije amatafari, isakaje amabati, ituwemo n'abantu. Bimwe mu bihingwa bihari harimo insina zera ibitoki bikavamo urwagwa.

Imisozi miremire iriho ibimera bitandukanye birimo n'amashyamba, iyi misozi ikikijwe n'ikiyaga gikorerwamo imirimo igendanye n'uburobyi bw'amafi ndetse n'ubwikorezi bukozwe hifashishijwe ubwato.

Umusozi muremure, uriho ibimera birimo ibyatsi ibiti birebire ndetse n'inzu zituweho n'abantu. Iyi misozi ifasha cyane mu buhinzi kuko ariho hakundara igihingwa cy'ikawa, kigatanga umusaruro maze bigateza imbere abahinzi bacyo.

Imisozi miremire iteganye iriho ibimera birimo ibyatsi, ibiti birebire n'ibihuru, kuri iyo misozi kandi ni ho aborozi bakura ubwatsi bwabo bashyira amatungo kugira ngo abahe umusaruro bifuza.

Imisozi miremire ituweho n'abantu b'ingeri zose batuye mu mazu asakaje amabati ndetse n'amategura, aha kandi hari n'ibihingwa bihinze ku musozi birimo ndetse n'ibiti birebire by'inganzamarumbo.

Umurima uhinzemo igihingwa ngengabukungu k'icyayi ukikijwe n'ishyamba rinini ririmo ibiti birebire ndetse n'ibigufi, aho bituwemo n'inyamaswa nyinshi z'agasozi zirimo inzoka, imihari ndetse n'izindi.

Ikiyaga kirimo amazi menshi, gikoreshwa mu mirimo yo kuhira imyaka, ndetse kikanatanga umusaruro w'amafi. Icyo kiyaga gikikijwe n'umusozi muremure uriho akayira, ndetse n'ibiti birebire bikorwamo ibintu birimo ibikoresho byo mu rugo.

Imisozi miremire iriho utuyira duto tuzamuka duturutse mu kabande, kuri iyi misozi hariho inzu nini zituweho n'abantu, hariho kandi n'ibiti birebire by'inganzamarumbo ndetse n'ibihingwa bitandukanye birimo ibishyimbo.

Itungo ry'ingurube rifite amabara y'umukara ndetse n'ibara ry'ivu, iri rifite amaherena y'umuhondo ku gutwi yerekana ko ryakingiwe indwara zibasira amatungo zikayica.

Ibikoresho bikozwe mu byuma bikorerwamo imirimo ijyanye n'ubworozi bw'inkoko. Muri ibi bikoresho harimo imishwi mito yitabwaho maze ikazatanga umusaruro w'amagi n'inyama bigateza imbere aborozi b'iyo mishwi.

Ikiraro cyubakishije ibiti ndetse n'imbabari kirimo inka ya kizungu, ifite amabara y'umweru ndetse n'ikigina n'iherena yerekana ko yakingiwe indwara z'ibyorezo zibasira amatungo, iyi iri kurya ubwatsi bwahiwe mu kabande.

Mu kiraro cyubakishije imbabari zikoze mu biti ndetse gifite no hasi hateye isima, harimo itungo ryo mu rugo ryitwa ingurube, iri ryitabwaho maze rigatanga umusaruro w'inyama, bigateza imbere aborozi baryo ari nayo mpamvu abantu benshi barikunda.

Mu kiraro cyubakanye iterambere, kizengurutswe n'ibyuma, harimo amatungo magufi yitwa ihene, aya matungo yakingiwe indwara nyinshi ndetse afite n'amaherena ku matwi, yerekana ko yakingiwe izo ndwara.

Itungo ry'ingurube riri mu kiraro cyubatswe mu buryo bugezweho, harimo kandi umurama ufasha iri tungo kugira ngo ritaryama ku isima maze rigakonjerwa, ritanga umusaruro w'inyama ndetse n'ifumbire ikoreshwa mu buhinzi.

Abagabo bakora ibijyanye no kwita ku matungo bitwa abashumba, bari mu kiraro cyubakishije ibyuma ndetse kirimo inka za kijyambere, zimwe muri zo zikamwa. Aba bari kuzitaho ndetse banakama izikeneye gukamwa.

Ikiraro kinini cyubakishije ibyuma ndetse gifitemo amatara amurika mu gihe k'ijoro. Iki kiraro cyubakanye ubuhanga buhambaye butuma amatungo yororerwamo y'inkoko atanga umusaruro ushimishije.

Inka nkuru za kijyambere zifite amabara y'ikigina, umweru ndetse n'umukara, ziri mu gisambu kinini kirimo ibyatsi bitoshye ndetse n'ibiti by'inganzamarumbo aho ziri kwirishiriza, ibi bituma zigira ubuzima bwiza maze zigatanga umusaruro ushimishije.

lkiraro gikozeze neza gifite hasi hashashe imbaho ,ndetse gikikijwe n'ibiti kinasakaje amabati ,aha ni ahantu heza ho kororera amatungo ,yaba amagufi ndetse n'amaremare, kugira ngo atange umusaruro.

Icyumba cyagenewe gukorerwamo ubworozi cyubakishije ibiti, muri iki cyumba harimo amatungo magufi yitwa inkoko arimo inkokokazi ndetse n'amasake, harimo kandi umurama utuma izo nkoko zikomeza zifite ubushyu.

Umugabo ndetse n'umugore bambaye imyambaro ifite amabara y'umweru, bagize umwuga ibijyanye no kwita ku matungo bari mu kiraro kinini kirimo inka z'Inyambo, aba bari kuzitaho bazivura ndetse banambaye amashashi ku kaboko.

Ikiraro cyubatswe mu buryo bugezweho hakoreshejwe ibyuma ndetse n'urudandi, muri iki kiraro harimo amatungo magufi yitwa ihene afite amabara y'umukara ndetse n'umweru, aya matungo atanga umusaruro urimo ibishingwe bikoreshwa mu buhinzi.

Ahakorerwa umwuga w'ubworozi harimo inkoko zifite amabara atandukanye zirimo iz'inyarwanda ndetse n'iz'inzungu, izi nkoko zitanga umusaruro urimo amagi n'inyama maze bigateza imbere umworozi wazo.

Ikiraro cyubatse neza, hakoreshejwe amatafari n'isima. Muri icyo kiraro harimo ingurube nziza cyane ifite ibibwana bikiri bito, aho iri kubyonsa, ibindi byidagaduro. Muri icyo kiraro kandi harimo umurama utuma ibyo bibwana bikomeza kugira ubushyuhe.

Kugira ngo amatungo yo mu rugo atange umusaruro, ni ngombwa cyane ko yitabwaho ni yo mpamvu ashyirwa mu kiraro cyubatse neza cyubakishije amatafari kandi kirimo ibikoresho bifasha kugaburira ayo matungo.

Igisambu kinini kirimo ibyatsi bitoshye ndetse n'igiti kirekire cy'inturusu n'ikindi cy'avoka cy'inganzamarumbo. Aha harimo inka y'imbyeyi ya kizungu ifite akanyana kakiri gato kataramenya kurisha, aho konka amata.

Icyumba gikorerwamo ibijyanye n'ubworozi bw'amatungo magufi cyane cyane inkoko. Aha harimo udushwi dufite amabara y'ikigina ndetse n'umukara. Utu twitabwaho tugahabwa ibyo kurya ndetse tugashyirwa ahantu hakonje kugira ngo tuzatange umusaruro nidukura.

Ikiraro kiza cyane gikoreshejwe ibyuma n'imashini kabuhariwe. Kirimo inkoko zitanga umusaruro w'amagi n'inyama. Muri iki kiraro harimo umugabo ushinzwe kwita kuri izo nkoko, wambaye imyambaro y'ubururu n'inkweto z'akazi.

Ikiraro cyiza cyane cyubatswe hakoreshejwe amatafari n'isima. Muri iki kiraro harimo itungo ryo mu rugo rigufi rizwi ku izina nk'ingurube. Iri rifite ibibwana riheruka kubwagura aho riri kubyonsa.

Abagabo ndetse n'abagore bambaye imyenda ifite amabara y'umweru n'ubururu, bagize umwuga ibijyanye no kuvura indwara z'amatungo, bari ahari ishyo ry'inka z'inyambo zifite amahembe maremare yigoronzoye, aho bari kuzitaho bazivura.

Ibiraro bikoze neza byubakishije amatafari ndetse binateye isima, muri ibi biraro harimo ingurube zifite amatwi manini ndetse n'amaguru magufi, izi ngurube zitabwaho maze zigatanga umusaruro w'inyama bigateza imbere aborozi bazo.

Icyumba gikorerwamo ibijyanye n'ubworozi, kirimo inkoko ntoya zizwi ku izina ry'imishwi, izi nkoko ziragaburirwa hakoreshejwe udukoresho twabugenewe maze zakura zigatanga umusaruro w'inyama n'amagi.

Icyumba cyagenewe gukorerwamo ibijyanye n'ubworozi, kirimo udukoko duto twitwa imishwi, utu dukoko twitabwaho tugahabwa ibyo dukeneye byose maze tukazavamo inkoko nkuru na zo zitanga umusaruro w'amagi n'inyama.

Ikiraro cyubakishije amatafari ndetse gifite n'isima kizengurutswe n'ibyuma, muri iki kiraro harimo inyamaswa y'itungo rirerire ryo mu rugo ry'inka ritanga umusaruro w'amata n'inyama.

Ikiraro cyubakishije ibyuma, kirimo inka zizwi ku izina ry'inyambo, zifite amahembe yigoronzoye. Izi nka zizwi cyane mu muco nyarwanda nk'ikimenyetso cy'umuco. Iruhande rwazo kandi hari abagabo bashinzwe kuzitaho.

Imbyeyi za kijyambere zifite amabara y'ikigina ndetse n'amaherena y'umuhondo ziri mu kiraro kinini cyubatswe mu buryo bugezweho, aha zihaherirwa ibyoku kurya, imiti, ndetse n'ibindi maze zigatanga umusaruro ushimishije.

Icyumba kinini gikorerwamo ibijyanye n'ubworozi bw'amatungo magufi, icyo cyumba gifite amadirishya y'ibirahure ndetse n'ikigega kinini gifata amazi mu gihe cy'imvura akazakoreshwa mu gihe akenewe.

Iruhande rw'ikiraro cyubakishije amabati ndetse n'ibiti hari abagabo barimo umwe wambaye inkweto z'akazi, uyu ari guha umuti amatungo magufi yo mu rugo azwi ku izina ry'ihene afite ikibazo cy'ubuzima.

Ikiraro cyubatse neza cyubakishije amatafari kirimo itungo ry'ingurube ritanga umusaruro w'inyama, muri icyo kiraro hasutswemo ibintu bituma iyo ngurube ishyuha dore ko ikunda ubushyuhe kurusha uko ikunda ubukonje.

Icyumba gikorerwamo ibijyanye n'ubworozi, kirimo inkoko za kijyambere zifite amabara y'ikigina n'umutuku. Izi bazigaburira mu dukoresho dukoreshwa mu kuzigaburira maze zikarya ibiryo bifite intungamubiri, zigakura zigatanga umusaruro.

Ikiraro gikozwe neza cyubakishije ibyuma ndetse kinasakaye neza, muri icyo kiraro harimo inka za kizungu zifite amabara y'ikigina zitanga umusaruro w'umukamo ushimishije, imbere yazo kandi hari umugabo ushinzwe gukurikirana ubuzima bwazo bwa buri munsi.

Iruhande rw'inzu ituwemo n'abantu, yubakishije amabuye hari ibiraro byubakishije ibiti, muri ibi biraro habamo amatungo maremare yitwa inka, imbere yabyo kandi hari amatungo magufi yitwa imbata atera amagi ndetse akanatanga umusaruro w'inyama.

Abantu bambaye imyenda ifite amabara y'umweru ndetse n'ubururu, bari iruhande rw'ibiraro byubakishije ibyuma, muri ibyo biraro harimo inka z'Inyambo zifite amahembe yigoronzoye ndetse maremare, abo bantu bakaba bari kwita kuri izo nka kugira ngo zigire ubuzima bwiza.

Ikiraro cyubatse neza mu buryo bwa kijyambere, ndetse cyasutswemo umurama kugira ngo itungo ririmo rikomeze kugira ubushyuhe, ndetse ntirihure n'ubukonje bw'isima. Muri iki cyumba harimo ingurube itanga umusaruro w'inyama.

Ikiraro cyubakishije amatafari ndetse n'isima kirimo umurama utuma amatungo abamo agira ubushyuhe buhagije. Harimo kandi ingurube yabwaguye ifite ibibwana byinshi iri kubyonsa.

Icyumba cyagenewe gukorerwamo ubworozi bugezweho, kirimo amatungo magufi azwi ku izina ry'inkoko arimo amasake ndetse n'inkokokazi, aya yitabwaho maze agatanga umusaruro w'inyama n'amagi bigateza imbere umworozi wayo.

Ikiraro kinini cyubakishije ibyuma, kirimo inka zizwi ku izina ry'inyambo, zifite amahembe maremare ndetse agoronzoye, hari kandi n'abagabo bambaye imyenda y'umweru n'ubururu, bashinzwe kuzitaho bakazimenyera buri kimwe.

Icyumba gikorerwamo ibijyanye n'ubworozi, cyubakishije ibyuma ndetse n'imbaho zikoze mu biti, muri iki cyumba harimo inkoko ntoya, zizwi ku izina ry'imishwi, zigaburirwa hakoreshejwe ibikoresho byabugenewe maze zikura zigatanga umusaruro.

Amatungo magufi yitwa ihene afite amabara y'umweru ndetse n'ikigina ari mu gisambu kinini kirimo ubwatsi butoshye, aya kandi ari kumwe n'abantu bashinzwe kuyitaho bazwi ku izina ry'abashumba.

Umurima munini urimo ibyatsi bitoshye ndetse n'ibihuru, muri uyu murima harimo amatungo magufi yitwa ihene aho ari kurisha ari kumwe n'abashinzwe kuyitaho bitwa abashumba, hari kandi n'ibiti birebire by'inturusu.

Ikiraro gikozwe neza kizengurutswe n'urudani ndetse cyubakishije ibyuma. Muri iki kiraro harimo ubwatsi butoshye ndetse n'amatungo magufi yitwa inkoko atanga umusaruro w'amagi, inyama iyo yitaweho neza maze bigateza imbere umuntu wayoroye.

Abagabo bambaye imyenda y'ubururu n'umweru ndetse n'umukara, bari iruhande rw'ikiraro gifite amabara icyatsi kibisi, muri iki kiraro harimo inka izwi ku izina ry'Inyambo, iri kwitabwaho n'aba bagabo.

lkiraro gikoze neza gifite ahantu habugenewe amatungo arira, ndetse gikikijwe n'imbabare. Kirimo itungo rigufi rizwi ku izina ry'ingurube, iyi ngurube iri konsa ibibwana byayo bikiri bito, kugira ngo bizakure neza.

Icyumba cyabugenewe gikorerwamo umwuga w'ubworozi cyubakishije imbabari zikozwe mu biti, harimo kandi amatungo magufi y'ihene yambaye amaherena y'icyatsi kibisi ku matwi yerekana ko yakingiwe indwara.

Ibiraro bya kijyambere byubakishije ibyuma, birimo inka za kizungu zitanga umusaruro w'umukamo ushimishije. Izi nka kandi zitanga umusaruro w'inyama, aho abantu benshi bakunda inyama zazo kubera uburyohe zigira.

Ibikomoka ku musaruro w'ubuhinzi, birimo ibinyampeke ndetse n'ibindi, urugero twavugamo ubushaza, ibishyimbo, ibigori ndetse n'ibindi. Ibi byose ni bimwe mu bikora indyo yuzuye maze umubiri ukagira imbaraga n'imbaduko.

Umugabo w'inzobere mu bijyanye n'ubuhinzi ari mu bukangurambaga, aho ari kwigisha abahinzi uburyo batera imbuto ndetse bakanazihingira mu buryo bwa kijyambere, ibi ni bimwe mu byatuma umusaruro uva mu buhinzi wiyongera.

Umusaruro w'ibigori bitarahungurwa wanitse neza ku zuba, uyu numara kuma uzajyanwa k'uruganda maze bawutunganyemo ifu nayo ivamo akawunga cyangwa se igikoma.

Umubyeyi wambaye ikote rinini n'ipantaro y'umukara ari kumwe n'umuhungu we mu murima bahinzemo ibirayi, aba bari kubikura bakabyegeranya maze bakabishyira mu mifuka mbere yo kubijyana ku isoko ndetse no kubijyana mu miryango yabo ngo babirye.

Umugabo ukora mu ruganda rutunganya ibijyanye n'umusaruro ukomoka ku buhinzi, yambaye uturindantoki ndetse ari kwegeranya imbuto zizaterwa mu murima zikitabwaho maze zikavamo ibihingwa bikuru.

Udutanda twubakishije ibiti ndetse turiho n'urudani, twanitseho ikawa zamaze gutonorwa, ibi biri mu ruganda rutunganya umusaruro wa kawa. Hari kandi n'igihingwa cy'insina zera ibitoki, bikavamo imineke.

Mu ruganda rwubakishije amatafari ndetse n'amakaro, harimo imashini zabugenewe zifasha abakozi mu kazi kugira ngo korohe ndetse kanihute. Hari kandi n'abakozi bambaye imyenda y'akazi n'ingofero.

Umurima uhinze neza urimo ndetse n'ifumbire, muri uyu murima hahinzwemo imbuto ndetse nazo zirakura zivamo ibimera bikiri bito, ibi bimera bizavamo umusaruro w'ibigori maze ujyanwe gutunganywa mu ruganda.

Abagize koperative y'abahinzi bambaye imyambaro ifite amabara atandukanye bari imbere y'umusaruro wabo w'ibigori ushimishije, aba bazawuhungura maze bawujyane ku isoko bakuremo amafaranga bayagabane, biteze imbere, bishyure mituweli n'ibindi imiryango yabo ikeneye.

Abakozi bo muru ruganda bambaye imyenda y'akazi ifite ibara ry'umweru ndetse bambaye ingofero zirinda impanuka bari mu ruganda rurimo imashini zifasha mu gukora ibintu bitandukanye mu buryo buteye imbere.

Umugabo ufite uruhu rwera ari mu murima uhinze, uyu yambaye akarindantoki ndetse afite mu ntoki ze imbuto ari gutera mu murima kugira ngo zizakure maze zivemo ibihingwa bikuze bibyare imbuto.

Abagabo bashinzwe kwita ku matungo bambaye imyambaro ifite amabara y'ubururu n'umweru, aba bari iruhande rw'ikiraro cyubakishije ibyuma, kirimo inka zizwi nk'inyambo zifite amahembe yigoronzoye.

Ibiraro byubakishije amatafari n'ibyuma, hari kandi n'abagabo bambaye imyenda y'umweru n'ingofero zitukura, bari kwita kuri izo nka zizwi ku izina ry'inyambo ndetse zigira amahembe maremare, agoronzoye.

Umugabo wagize umwuga ibijyanye no kwita ku matungo. Yambaye imyenda y'akazi ndetse n'uturindantoki. Uyu afite igikoresho akoresha iyo ari kwita ku nka zifite ikibazo cy'uburwayi kugira ngo zigarure ubuzima.

Mu ivuriro rikorerwamo ibijyanye n'ubuvuzi bw'amatungo harimo umugabo ndetse n'umugore b'inzobere mu kuvura amatungo, aba bambaye udupfukamunwa ndetse n'ingofero zo mu mutwe bari gukoresha ibikoresho by'ikoranabuhanga bavura itungo ry'imbwa.

Umuntu w'umugabo wambaye imyambaro ifite amabara y'umweru n'inkweto z'umweru ari mu murima urimo ubwatsi butoshye bugaburirwa amatungo uyu kandi afite igikoresho kinini gikoreshwa mu buvuzi bw'amatungo.

Umugabo wambaye imyambaro y'ubururu ndetse n'ingofero y'umweru, afite igishashi yambaye ku kaboko. Uyu ari kugerageza kuvura inka iri mu kiraro gikoze mu biti, kugira ngo arebe ko yagarura ubuzima.

Mu mbuga yegeranye n'igisambu kinini kirimo ibyatsi bitoshye ndetse n'ibiti birebire harimo inyana zituruka ku nka z'inyambo, izi zitabwaho maze zigakura neza zigatanga umusaruro w'inyama n'amata ku bazorora.

Umukobwa ukiri muto wagize umwuga ibijyanye no kwita ku matungo, ari ahantu hari ikiraro cyubakishije ibiti ndetse n'ibyuma. Uyu kandi yambaye inkweto zikoreshwa mu kazi, aho ari kwita ku nka ifite ikibazo.

Ahakorerwa ibijyanye no kubaga amatungo hazwi nko mu ibagiro ryabugenewe hari inyama nini yakuwe mu nyamaswa cyangwa se itungo ryo mu rugo riherutse kuhabagirwa, aho izindi nyama zajyanywe kugurishwa.

Inka y'inyambo ifite amahembe maremare agoronzoye, iri kwitabwaho n'abantu bagize umwuga mu bijyanye no kwita ku matungo, babyize mu mashuri makuru na za kaminuza ndetse bambaye imyambaro ifite amabara y'umweru n'uturindantoki.

Umusore ukiri muto ari mu cyumba gikorerwamo ibijyanye no kuvura amatungo aho yambaye umwambaro akoresha mu kazi ndetse afite n'ikaramu mu mufuka, uyu kandi yambaye udukoresho tw'uturindantoki tumurinda kuba yagiri icyo a ahurira nacyo mu kazi kikamwangiza.

Icyumba gikorerwamo ibijyanye no kuvura amatungo, kirimo itsinda ry’abaganga bavura amatungo, bari gukoresha ibikoresho bikoreshwa mu buvuzi, birimo nk’inshinge, uturindantoki n’ibindi. Aba bari kwita ku itungo rirwaye.

Abagabo ndetse n'abagore bambaye imyenda y'akazi ndetse n'udupfukamunwa. Bagize umwuga ibijyanye no kwita ku matungo bari ahantu havurirwa amatungo. Aho bari kuvura imbwa bakoresheje ibikoresho bikoreshwa mu buvuzi.

Umugabo wagize umwuga ibijyanye no kwita ku matungo yambaye imyambaro ifite amabara y'umweru ndetse n'uturindantoki, uyu ari mu kiraro cyubakishije ibyuma aho ari gutera umuti inka ifite ikibazo cy'indwara.

Umugabo wambaye imyambaro ifite amabara y'ikigina n'umukara ndetse n'akagofero mu mutwe, ari mu kiraro kigezweho cyubakishije ibyuma, kirimo inka ya kijyambere ifite amabara y'umweru n'umukara, uyu mugabo ari kwita kuri iyi nka ngo ayivure ikibazo cy'uburwayi ifite.

Umugabo ukora ibijyanye n'ubuvuzi bw'amatungo, yicaye mu cyumba cyabugenewe mu ntebe nziza ndetse ari gukoresha igikoresho gikoreshwa mu gupima indwara z'amatungo.

Ahantu mu cyanya gikomye gifite ibyatsi bitoshye ndetse n'ibiti birebire, aha harimo inyamaswa zimeze nk'inka ziri kwirishiriza ibyatsi kugira ngo bizitunge maze zibashe kugira ubuzima bwiza.

Inyamaswa z'agasozi ziba mu ishyamba ahantu hakomye. Izi zirimo iz'inkazi ndetse n'izitari iz'inkazi. Urugero twavugamo nk'inzovu, na none kandi hari iz'indyanyama zirimo intare ndetse n'ingwe zikunda guhiga.

Imbwa ni amwe mu matungo abantu borora mu rugo bakabana na yo akababera inyangamugayo, imbwa kandi inashimisha abagize umuryango by'umwihariko abana kuko bakunda gukina na zo.

Inyamaswa z'inkazi ziba mu byanya bikomye zitwa intare. Izi nyamaswa zikunda guhiga ari yo mpamvu izindi nyamaswa iyo zizibonye zirukanka maze zigakiza amagara yazo kugira ngo zitibasirwa n'izo nyamaswa.

Inyamaswa z'inkazi zikunda kuba mu ishyamba ndetse zigira amahane, inyinshi muri zo zikaba ari impigi. Izi twavugamo nk'ingwe, intare ndetse n'imbogo. Hari kandi n'izidakunda kugira amahane zirimo inzovu.

Mu ishyamba harimo ikibwana kimwe mu nyamaswa y'inkazi iba mu ishyamba izwi ku izina ry'intare ndetse ikunda kwitirirwa kuba umwami w'ishyamba, iyi nyamaswa igira amahane menshi ari nayo mpamvu iyo abantu bayibonye bayihunga kuko ishobora kubagirira nabi.

Ahantu mu byatsi byinshi harimo inyamaswa nziza ifite amabara y'umukara ndetse n'umweru, iyi izwi ku izina ry'imparage, ikunda kwirira ibyatsi ndetse nta nubwo ikunda gushotora abantu kuko itari indyanyama.

Inyamaswa yo mu bwoko bw'inyoni iteye amabengeza ifite amabara y'umukara, amababa y'umutuku ndetse n'umunwa ufite ibara ry'ubururu. Iyi nyamaswa ishobora kugenda mu buryo bubiri aho ishobora kuba yaguruka ndetse ikanoga mu mazi.

Mu giti cyaguye kitambitse gifite amashami manini, hariho inyamaswa y'inkazi izwi ku izina ry'ingwe. Iyi ifite amabara y'ikigina ndetse n'umukara, ikaba izwiho kugira umuvuduko mwinshi uyifasha guhiga.

Inyamaswa yo mu bwoko bw'inyoni ifite amabara y'umweru ndetse n'umukara n'icyatsi kibisi, iyi kandi ifite umunwa muremu ufite ibara ry'umuhondo uyifasha guhiga dore ko irya utundi tunyamaswa two mu mazi duto turimo nk'amafi mato.

Inyamaswa zo mu ishyamba zirimo iz'inkazi ndetse n'izirira ibyatsi, ziri mu gisambu gifite ubwatsi butoshye, izo nyamaswa zirimo inzovu, urusamagwe ndetse n'agasumbashyamba gakunda kurisha ku mitwe y'ibiti.

Umuhanda wa kaburimbo unyurwamo n'ibinyabiziga by'ubwoko butandukanye, hari kunyuramo inyamaswa zitwa ibitera, izi nyamaswa zikunda kurya ibintu abantu banitse ndetse bikanangiza n'imyaka y'abaturage.

Mu ishyamba ry'inzitane, ririmo ibiti birebire, harimo inyoni nini ifite amabara ateye amabengeza, iyi nyoni ikurura abakerarugendo maze bakishyura amafaranga bigateza imbere ubukungu bw'Igihugu.

Inyamaswa nini cyane ifite amatwi manini ndetse n'amahembe y'agaciro kenshi, iyi nyamaswa ntigira amahane ndetse ikunda kwirira ibyatsi, ikanaba ahantu hakomye, ikaba inanga izindi nyamaswa ziyivogera.

Inyamaswa imeze nk'umuserebanya ifite umutwe usongoye, amaso manini, amaguru ndetse n'umurizo, iyi nyamaswa ikunda kwibera mu ishyamba ikarya utundi tunyamaswa duto turimo nk'imibu.

Inyamaswa y'inkazi ikunda kuba mu mashyamba ndetse n'ahandi hakomye, iyi nyamaswa yitwa intare ndetse ikunda guhiga kuko ari indyayama, niyo mpamvu iyo izindi nyamaswa ziyibonye zikunda gukiza amagara yazo zikirukanka.